Ahangaha ndahabona umumama; umumama wambaye isaa ha ufite mikorofone( microphone) w'imibiriyombi wambaye amarinete n'umusatsi yasokoje neza wambaye n'amaherena, bigaragara ko ari kuvuga sipici( speech) cyangwa se imbwirwaruhame, hanyuma inyuma ye hari abandi bantu bamukikije ndetse hari nundi mumama umwegereye hanyuma inyuma yaho hakaba imiyenzi ndahareba n'igare hafi y'iyo miyenzi.

urubyiruko ni urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bamwe bakaba bambaye ijire za MTN, abandi bakaba biyambariye ibintu bisanzwe, bitabiriye ikiganiro runaka, umwe muri bo akaba afashe mikoro, ari gutanga amakuru ku kibazo cyangwa igitekerezo.

Aha kuri iyi foto ndahabona abantu benshi harimo abana babiri ndetse n'urubyiruko n'abasaza bicaye ahantu ni benshi bicaye mu itente ry'umweru bicaye ku ntebe z'umweru za parasitike baririmo barareba abasirika imbere bigaragara ko hari umuntu uri kubaha ikiganiro akurikiranywe.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru n'umukara afite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga ikiganiro. Ku meza ari imbere ye handitseho ngo" Rubyiruko menya amateka yawe".

Aha kuri iyi foto ndahabona abantu benshi bicaye ahantu mu nzu muri abo benshi rero hakaba harimo umuntu umwe w'inzobe wambaye ishati y'amabara avanze y'umukara n'umweru akaba afite mikorofone umu mama rwose ufite agasatsi ka natirere afite mikorofone bigaragara ko hari igitekerezo ari gutanga cyangwa se inyunganizi cyangwa ikifuzo.

Iyi salle ni sale ngari cyane irimo abantu batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, abo bose bafite udutari mutoki ndetse n'udutaramu, barareba imbere rwose bigaragara ko ari inama bitabiriye, harimo n'abayobozi.

Itente ni amatente asize amabara y'umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, akaba amatente akikijwe n'urutoki, kandi muri aya matente hakaba hari impano batandukanye, barimo abasirikare abapolisi abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage, bakaba abaturage barimo kubyinira abo bantu batandukanye.

Urubyiruko ni urubyiruko rw'abakobwa bakiri batoya, bakaba bari ahantu hasashe neza, hakaba pasiparume y'icyatsi kibisi gikeye, akaba hari n'amatente, bakaba barimo bararirimba abandi bakabyina, bagakoma amashyi bya kinyarwanda.

Iyi ni intango, intango iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ikaba ikurikirwa n'igiseke, igiseke cyiza nacyo kiboshye neza, hanyuma hasi haba akibo kagufiya na ko kameze neza, hakaba n'ikindi giseke gifitemo amabara atukura, bikaba biteretse ku kantu kaboshye neza kaboshye k'inkoko ya kinyarwanda.

Ibikoresho bitatu, ni ibikoresho bya kinyarwanda ibyo dukunze kwita inkangara, zikaba ari inkangara ziri mu mabara atandukanye ndetse n'amadizayina atandukanye, imwe ifite dizayina izamuka, indi aratambika, hanyuma indi zigiye zinyuranyemo, byose ni ibikoresho bya kinyarwanda.

Abaturage benshi bafite amasuka bari kugenda mu muhanda w'igitaka muremure wegeranye n'ishyamba .

Igikoresho ni igikoresho giteretse hano hasi kuri sima, mu nzu isa nk'aho ishaje, ni igikoresho cya kinyarwanda, gikozwe mu giti, igiti cyitwa umuvumu, iki gikoresho kikaba cyitwa umuvure, kikifashishwa mu kwenga ibitoki ngo babone umutobe.

Iyi ni ingofero ni ingofero iri mu mabara y'umukara n'umweru, itatse neza ifiteho ubutumba hejuru, iyo ngofero ikaba ikunze kwambarwa n'ababyinnyi ba Kinyarwanda cyangwa se abakwe mu gihe cy'ubukwe.

Uwo mugabo ni numugabo wambaye amarinete, ni inzobere amenyo meza y'umukara, akaba afite mikorofoni mu ntoki yambaye impeta yambaye isaha ndetse yambaye n'agashati gaciyemo amabara y'ivu cyangwa se green ndetse n'umweru.

Ipoto, ni ipoto ndende cyane y'umuriro w'amashanyarazi yo mu kirere, akaba ihuriyeho insinga nyinshi, hanyuma kuri iyo poto hakaba hariho umusore, ni umusore urimo gukora umuriro, akaba yambaye ibikoresho byabugenewe haba mu mutwe, mu nda ndetse no ku birenge.

Inzu ni inzu zishoreranye kandi nyinshi, ni inzu zisa, akaba ari inzu zigiye ziriho umuriro w'amashanyarazi cyangwa ipoto kuri buri nzu, izi nzu zifite amarange matoya y'umweru, zikaba zifite amabati y'umutuku ndetse hakaba hari umuhanda w'igitaka ugiye uca imbere.

Ni ipoto ikoze mu giti, ikaba ari ipoto ihuriweho n'insinga nyinshi ndetse n'amakomveri cyangwa amabazi menshi, bakaba bari hejuru yayo, barimo kugerageza gukora amashanyarazi.

Ipoto, ni ipoto ndende cyane bikabije y'umuriro w'amashanyarazi, ikaba ari ipoto ihuriyeho insinga zitari nyinshi cyane zigera kuri eshatu, ikaba iriho na mubazi imwe cyangwa konteli, hakaba hari umuntu ushinzwe gukora amashanyarazi cyangwa se umutekinsiye, arimo gutuganya insinga hejuru hariya.

Aya mapoto ni amapoto menshi cyane, harimo amaremare ndetse n'amagufi, akaba ari amapoto avanze n'iminara y'umuriro w'amashanyarazi, biriho insinga z'amashanyarazi zigenda zikwirakwiza umuriro mu bice bitandukanye.

Iyi poto ni ipoto ndende cyane igeze mu kirere, ikaba ari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi uhurirwaho n'insinga aho ziturutse mu bice bitandukanye, kuri iyi poto hakaba hariho abatekinisiye cyangwa se abenjiniya babiri bari hejuru, barimo gukora umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto ni ipoto ndende cyane kandi iri mu kirere, akaba ari ipoto iriho insinga nyinshi zigiye zihuriraho zijyana umuriro ahantu hatandukanye, iyi poto kandi hejuru hakabayo abatekinisiye babiri bbyuriye barimo gukora umuriro w'amashanyarazi.

Aha ndahabona ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi byinshi harimo amapoto arimo insinga amapoto hakaba hari amapoto akoze impande enye hakaban'andi akoze mu bindi binyampande hakaba hari ikirere kisa n'ikijimye kandi hari akantu kajya gusa n'akazuba kari muri iki kirere.

Ifoto, Ifoto iri hano ni ipoto iriho amatara maremare cyane yo ku muhanda, akaba hariho amatara abiri, akaba hakurya yaho akikijwe n'ikirere cyiza gisa neza rwose.

Aha kuri iyi foto ndahabona hafi yange icyapa cyanditseho regi hanyuma ahagana hakaba hari n'umukobwa mbona wambaye inifomu zirimo amabara y'ubururu n'umweru, ubururu bwijimye ndetse n'umweru handitseho Rwanda inaji gurupe mu magambo arambuye hanyuma, hakaba hariho na zeru mirongo kenda na gatanu Ariyo nimero hakaba handitseho regi mu magambo ahinnye ndetse n'icyapa cya regi uwo mukobwa yambaye ingofero y'umweru cyangwa masike akaba arimo arakora.

Aba ni abakozi ba REG benshi cyane bambaye amajiri yanditoho ngo REG, bakaba bambaye ingofero z'imyeru abandi bambayez'imihondo, Hari iminara miremire y'amashanyarazi baje gukoreraho ubushakashatsi.

Amapoto ni amapoto y'ibiti, akaba ari amapoto maremare cyane ariho umuriro w'amashanyarazi, hanyuma uyu muntu uri hano hejuru, ni umukarani cyangwa se umutekinisiye wambaye itaburiya cyangwa se ijiri cyangwa isarubeti y'ubururu, akaba yambaye ingofero cy'umukara ndetse n'ibindi bikoresho byabugenewe, akaba yuriye iyi poto.

Kuri iyi foto ndabona inyubako nziza yo iri mu mabara y'ubururu, ikaba imbere yayo hagaze umusirikare ikaba ifite icyapa kiriho ababyeyi babiri n'abana babiri, icyo cyapa cyanditseho ngo gira ubuzima health poste karambo, iyo nyubako ikaba ahantu yubatswe iri ahantu ifashwe neza kandi ikaba ikikijwe na jarden nziza ndetse n'agapasparme n'ibiti hafi aho ngaho.

lyi bariyeri yanditseho ngo repubulic of Uganda mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, hakaba hahagaze abasirikare, ndetse n'abapolisi. Hakaba hari n'umukuru w'igihugu arimo kugenda ashaka kwerekeza mu gihugu cya Uganda, ha kurya mu gihugu cy'abaturanyi ,hakaba hari n'aba photographer barimo ku mufotora ari kugenda.

Kuri iyi foto we ndahabona umuhanda, ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utundi duhanda duto tw'amapave, hanyuma hari n'akandi gace kameze neza karimo ibyatsi, hakurya hakaba hari inyubako, inyubako nyinshi ariko kuri uyu muhanda hakaba harimo amapoto ndetse hatarimo n'abagenzi bari mu mihanda bagenda.

Kuri iyi foto ndahabona inyubako ni inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati y'ubururu bwerurutse ikaba ariyo inyubako inzugi n'amadishya bisize ibara ry'ubururu iyo nyubako yanditseho ngo ibiro by'akagari kan Ndego.

Aha kuri iyi foto ndahabona abantu bari mu nzira bagenda hanyuma icyo kiraroho gikikije na senyenge ku mpande zombi kikaba cyubatse ahantu hasa no mu itaba ariko hari ibyatsi.

Sitade, ni sitade ngari cyane, ikaba ari sitade ifite tapi itari ibyatsi, ikaba ifitemo intebe, hari ahatwikiriye ndetse n'ahadatwitiriye, intebe zaho zikaba zivanzemo amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu.

Inyubako ni inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'ubururu, ikaba yanditseho ngo gira ubuzima herifu posite mahoro, akaba ari inyubako ishushanyijeho ababyeyi babiri bafashe akaboko abana babiri, iyi nyubako ikaba yanditseho ngo werikamu cyangwa se ikaze, hakaba hari abantu bari hanze hanze yaho.

Ni umuhanda muremure cyane ucana mu imisozi y'imirambi, akaba ari umuhanda umuntu areba ntawuheze, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'imisozi, amaterasi ndetse n'ibihingwa by'abaturage, hakaba nta muntu n'umwe utuye hafi aho ngaho.

Ikiraro cyo mu kirere abantu bari kugenda.

Umuhanda ni umuhanda w'igitaka uca imbere y'inyubako ngari cyane kandi isa nkaho ari imwe. Ikaba ikikijwe na jaride nziza ndetse n'ibiti biteyemo hagati ariko hakaba hicaye abaturage kuri izo nyubako bigaragara ko hashobora kuba hari serivise zitangirwamo.

Iyi nyubako ni inyubako, iri ahantu mu rusisiro isa n'aho ishaje, inyubako yanditseho ngo ibiro by'Akagari ka Kibale, ikaba imbere yaho hariho igiti kimanitseho ibendera cyangwag se idarapo ry'igihugu.

Hano ndahabona imodoka, imodoka iri mu ibara ritukura amapine y'umukara ifite amapine ane iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hafi aho hari inzu ndende wagira ngo ni ikigo k'ishuri, hakaba hari amatara yo ku muhanda akurikiranye menshi, imbere yaho hakaba hari abantu, ariko ukaba ukikijwe n'umusozi usa n'akanunga uriho ibiti bigaragara ko ufite ibara ry'icyatsi hakaba hari n'aka jaride hafi hano hafi y'iyi modoka.

Kuri iyi foto ndahabona abantu benshi b'uruvunganzoka, abakobwa, abasore, abamama, abapapa, ni benshi rwose bicaye muri sitade ngari, bigaragara ko baje nko kureba umupira kuko bateye amaboko hejuru rwose nk'abantu barimo kureba umupira, hakurya yabo hakaba hari ibitambaro by'amabara atatu ubururu rwerurutse, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Furaya, ni furaya yanditseho ngo ww. Kwibuka. rwa. Kwibuaka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe maganakenda na mirongo itatu mu karere ka Nyagatare hakaba hari umugabo uhagaze ku gatusi ufite mikorofone ( microphone) uri gutanga ikiganiro kigendanye no kwibuka imbere y'urwibutso.

Aha kuri iyi foto ndahabona umupolisi, umupolisi afite mikorofone, akaba ahagaze mu gasambu gashashe neza mu byatsi, ari imbere y'agatuti cyangwa se ako twifashisha tuvuga ijambo tubwira abantu benshi, hakaba hakikijwe n'abaturage bateza amatwi

Muri iyi fotora ndahabona inyubako, inyubako iri mu mabara y'umweru isakaje amabati asa n'ayijimye, hanyuma muri iyo nyubako hano hafi yanjye hakaba hari umuhanda w'amapave ukikijwe n'utu jaride twiza turimo indabo zitandukanye ndetse na pasiparume, hanyuma aka kagahanda k'amapave kakaba gakikijwe n'akaborodire gasize amabara meza y'umukara n'umweru.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu hari urutoki harimo abambaye imipira y'icyatsi cy'ijimye n'ingofero z'umukara harimo umugabo umwe wambaye ingofero yicyatsi kibisi , ariko imbere yabo hagaze undi muntu wambaye imyenda y' umukara n'ingofero y'umweru

Abaturage ni abaturage benshi biganjemo, urubyiruko ndetse n'bana ababyeyi bakaba bicaye ahantu ku musozi bafite ibikoresho bitandukanye birimo amasuka ndetse n'ibindi bigaragaza ko bavuye gikorwa cy'umuganda hanyuma hakaba hari abandi bahagaze hano imbere yabo bigaragara ko hari igitekerezo inyunganizi cyangwa se icyifuzo baje gutanga.

Aha kuri iyi foto ndahabona abantu benshi benshi benshi, bakaba bafite bana yanditseho intara y'uburasirazuba akarere ka nyagatare, harimo abasirikare, abaturage ndetse n'abayobozi batandukanye, iyo bana bafite ikaba yanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, bari ahantu mu muhanda usashe neza wa kaburimbo.

Abaturage ni abaturage benshi biganjemo abadamu ndetse n'abapapa ndetse n'urubyiruko, bakaba bahagaze ahantu munsi y'ibiti mu gasambu, imbere yabo hari ubuyobozi burimo kubaha ibiganiro kandi bahagaze imbere y'amashuri afite amabara y'ubururu kandi yubakishije amatafa ahiye.

Jano ndahabona icyapa cyanditse ho sitopu hanyuma nkabona umugenzi urimo uragenda hafi aha mu muhanda hakaba hari umusozi usashe neza hakaba hari umuhanda w'amapave hakaba n'uwa kaburimbo hirya gato hakaba n'undi w'igitaka ariwo ukikijwe n'inzira y'abaturage cyangwa y'abanyamaguru hakaba hari n'insinga ndeba zigenda zizenguruka mu kirere hafi ahongaho.

Umuhanda ni umuhanda wa kaburimbo uri ahantu mu karitsiye, ukaba ari umuhanda urimo umurongo w'umukara uciye, umuhanda usa nk'aho ushajemo, ukaba kandi harimo umu motari, umu motari utwaye moto akaba afite kasike mu ntoki, uyu muhandada kandi ukikijwe na korotire isize ibara ry'umukara n'umweru.

Aha imbere yange ndahabona umuhanda w'igitaka ugaragara ko akavura kaguyemo ari gake ubundi hakanyuramo abantu n'ibinyabiziga bikishushanya hari utwatsi dukeya hari ikimodoka kinini cyanditseho unit kiri mu ibara ry'umukara n'umweru, hirya yaho hakaba itente ry'umweru, hakaba n'ipoto ndende, ariko hafi aho hakaba hari n'ahandi hantu hari abantu benshi, bari ahantu ku musozi ushashe neza.

Icyapa ni icyapa gifite amashami abiri, kikaba ari icyapa cyanditseho ngo EN 60 st, kikaba kiteye ahantu ku muhanda w'igitaka ukikijwe umuhanda wa kaburimbo, iki cyaba giteye hafi y'inzu ifite amabati y'umutuku.

Icyapa ni icyapa kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uzenguka ahantu mu rusisiro, hari pasuparume hano kuruhande utwatsiti tukaba duteye hafi y'igipangu icyapa kikaba cyanditseho EN tuwerive, hanyuma akaba ari nijoro, hakaba hari n'amatara acanye kuri uwo muhanda.

umuhanda, ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba ufite imirongo y'umweru ica aha ku ruhande, ukaba ukikijwe n'udukorotire dufite amabara y'umukara n'umweru, ukaba kandi harimo imodoka iri kugendamo y'ubwoko bw'ivatire, uyu muhanda kandi ukaba ufitemo imirongo hagati icagaguye isigishije amabara y'umuhondo.

Mu muhanda ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'imirongo y'umweru mu kaboko k'iburyo hakaba imirongo yaho iciyemo ibice ucagaguye, umurongo wo hagati ukaba usize amabara y'umuhondo nawo ucagaguye harimo umugabo utwaye akamoto modoka akaba arimo aragenda ahantu mu rusisiro imbere y'amazu y'ubucuruzi.

Icyapa ni icyapa gishushanyijeho umugenzi urimo kwambuka, kigaragaza ko aho hantu hari inzira y'abagenzi cyangwa se hari aho abagenzi bambukira kikaba kiri ahantu mu cartien yo hasi mu cyaro ku umuhanda wa kaburimbo uca imbere y'inzu z'abacuruzi.

Umuhanda, ni umuhanda wa kaburimbo uca hagati y'ibiti ariko hakaba nta mazu ahari, akaba ari umuhanda uciyemo amabara y'umuhondo, ahangaha hagaragaza aho abagenzi bagomba kwambukira ariko ku ruhande haciyemo umurongo ukoresheje amabara y'umweru.

Aha ndahabona icyapa cyanditseho REG Rwanda Energy Group ndetse hari n'ikirango cyabo handitseho Nyagatare branch, hanyuma hakaba handitseho 70m hagaragaza ko ari icyapa ko REG iri muri metero mirongo irindwi ziri imbere gato, icyo cyapa kikaba gishinze ahantu muri pasiparume ku muhanda hafi n'umuhanda ukikijwe n'amapave hafi aho ngaho ndetse n'ibiti hakurya gato.

Aha kuri iyi foto ndahabona umusirikare, umuporisi ndetse n'umudaso nkahabona urundi rubyiruko rutandukanye harimo n'urw'abakorerabushake bambaye jire barimo barakora umuganda barimo barubaka barubaka inzu cyangwa se igikuta bubakishije amatafari inyuma yabo hari abandi ndetse no hakurya hari udusozi turiho amashyamba.

Aha kuri iyi foto ndahabona abaturage benshi buruvunganzoka bicaye ahantu mu gasambu abandi bahagaze abandi bari mu matente, yamatente ari mu ibara ry'ubururu, ryerurutse ryatwitiye umuhondo ndetse n'umweru hari amabara y'idarapo ry'u rwanda baba bari kumwe imbere yabo bakaba bahagaze umupolisi uri kuba ikiganiro.

Aha kuri iyi foto ndahabona abagabo benshi harimo, ndabona aribo biganje hakaba harimo n'abagore babiri ni bo mbona hafi aho. Murabona ko bari mu gikorwa cy'umuganda, bari gukora umuganda cyangwa se bakaba barimo guhinga hafi yaho ibiti byinshi ndetse n'ibihuru hakurya hakaba hari imisozi, abantu bari aha ngaha bose bakaba bazamuye amasuka mu kirere nk'abantu bari ku murimo.

Aha hari amatente, ni amatente akoze mu ibara ry'umweru ndetse hari ay'umutuku n'icyatsi kibisi, hakaba harimo abantu bicaye muri ayo matente, abenshi muri bo ni abasore kandi hejuru bambaye imipira cyangwa t-shirt ifite amabara y'icyatsi kijimye, bahagaze ahantu mu rusobe tw'abantu benshi.

Uru ni urubyiruko urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa benshi benshi cyane bambaye amajire ya yopo nikabana n'amaji bambaye bica ahantu mutende isenderizwa gukoresha amabara ydatse ndetse n'umweruru bakaba kandi bicaranyeumusirikare imbere yabo gato.

Uyu mupolisi n'umupolisi w'umugabo ufite mikorofone mu ntoki, akaba akikijwe n'abasore babiri bakiri batoya, bafite utwo twapa twanditseho ngo gerayo amahoro, ariko kandi bakaba bakikijwe n'ibi byapa byanditsweho ngo imbuto foundation inyuma yabo hari agatuti ndetse hakaba nitente riri ahantu mu byatsi.

Ni bakinnyi bakinnyi bambaye jezi z'ubururu no mu mabara y'icyatsi kibisi bakaba bari ahantu mu kibuga ikibuga kirimo ibyatsi ni abakinnyi babiri ariko impande hakurya hari n'ibindi bintu bihahagaze.

Iyi stade ni stade ngari cyane irimo intebe nziza. Intebe ziri mu mabara y'ubururu ni cyatsi kibisi kerurutse ndetse n'umuhondo. Hakaba harimo abakinnyi bambaye inkweto z'ubururu barimo gukiniramo umupira w'amaguru.

iki kibuga ni ikibuga cy'umupira w'amaguru, gikikijwe n'udusozi turiho amaterasi y'indiganire. Kikaba gifashemo itapi y'icyatsi kibisi, hakaba harimo abantu batutu, babiri bambaye iniforume zisa cyangwa se jezi, n'undi umwe ufite umupira wambaye jezi zidasa nizabandi.

Abantu benshi bari gukora siporo mu masaha ya mugitondo mu muhanda wakaburimbo hari abandi bantu bahagaze bari kureba abari gukora siporo .

Iki kibuga ni ikibuga k'igitaka gifitemo tapi, kikaba kirimo urubyiruko rw'abasore bambaye jezi z'ubururu ndetse ndetse n'icyatsi kibisi bakaba barimo gukina umupira w'amaguru, ku mpande zabo hakaba hari n'abandi bicaye barimo kuwukina.

Hano ndahabona ikibuga, ikibuga kirimo abantu ndabona ari abagabo, abenshi ni abagabo ndeba, hakurya hari amazamu y'umweru hakaba na turbine hafi aho ndeba ari urubyiruko rwinshi bigaragara ko bari gukora siporo ariko inyuma hari ikindi kibuga k'ibyatsi nacyo kirimo abantu bari gukora siporo bigaragara ko bari gukora siporo ariko icyo hino kirapa.

Hano ndahabona abantu benshi bambaye imyenda ya siporo bigaragara ko bari muri siporo zo kwaforosinga ahantu runaka barimu baragenda muhanda wa kaburimbo hafi haparirika amamodoka ha hari umuhanda wamapave hanyuma hakaba n'akazu ka mtn agent hakaba n'ahanditse forosabet ndetse n'andi mazu aciki mu muhanda aba bagoremo baragendamo.

Aha ndahabona umugabo, umugabo ufite mikorofone( microphone), bigaragarako hari ijambo arikubwira urubyiruko ruri hano, abari aha ndabona ari ikipe iri yaje gukina y'abakobwa, hanyuma hakaba hari n'abandi bantu bicaye muri sitade ubonako atari benshi bakeya nanone bakiri benshi hakaba hari sipika( speaker) iri ahantu hekeri ariko hakabamo na timu( team) y'abahungu yambaye inifomo( uniform) z' umutuku.

Hano ndahabona abantu batatu, umwe afite umupira wa balon undi Afite igikombe ariko bakaba banafashe na banderole yanditseho nyagatare district Umurenge kagame cup best winner bigaragara ko ari igikombe bari batwaye hari umudamu wambaye amarinete, Inyuma yaho hari imisozi ishashe.

Uyu muhanda ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe na korutire z'umukara n'umweru, ni mu masaha ya nijoro, uyu muhanda kandi ukaba urimo umurongo w'umuhondo udacagaguye, uyu muhanda urimo urubyiruko rwinshi harimo kandi n'abagabo ndetse n'abakobwa bakaba bari mu gikorwa cya siporo.

Iki kibuga ni ikibuga kirimo itapi y'icyatsi kibisi, hakaba harimo abagabo babiri barimo gukina football, bakaba bari hafi y'amazamu, hanyuma ku mpande zaho hakaba hari akayira karimo ibyatsi n'udupasikaramu imbere.

Kuri iyi foto ndahabona ikibuga, ikibuga kirimo ibyatsi nkabona ballo ndetse nkahabona abakobwa barimo gukina umupira hari ama ekipe abiri, ikipe imwe yambaye amasogisi ndetse n'iniforume cyangwa jesi z'umutuku n'umweru, hanyuma abandi bambaye ubururu ndetse n'umweru barimo gukina umupira.

Babonye ikibuga ni ikibuga kitarimo tapi, kikaba kirimo ibyatsi ndetse hari n'ahatari ibyatsi, kikaba gikikijwe n'umunara muremure, kikaba kirimo abakinnyi barimo gukinamo, harimo abambaye jezi z'ubururu, harimo abambaye izitukura, hakaba hari n'abana batoya bakiri mu kibuga barimo gufana.

Kuri iyi foto ndahabona umugabo ni umugabo ufite mikorofone ahagaze muri sitade hasi isize ibara ritukura hakurya hakaba hari tiribine ndetse hari n'ibyicaro byo muri sitade birimo bisigishije amabara y'ubururu ariko hirya y'aho gato hakaba hari ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'izindi zisize icyatsi kibisi.

Aha imbere ndahareba ibyatsi byiza by'icyatsi kibisi bike, hanyuma hirya yaho hari abantu babiri babasore bambaye amajezi bigaragarako bari mu kibuga barimo gukina, hakurya yabo cyangwa se hirya yabo hari abandi bantu babiri bahagaze hejuru y'umukingo umwe arimo arigendera undi arimo arareba ibyo aba bakora, ariko bakaba banakikijwe n'ikigo gikorotiriye neza n'amatafari ahiye kirimo naho kiri ahantu mu gashyamba.

Umuhanda n'umuhanda w'igitaka ukaba ari umuhanda uca ahantu mu karitsiye, ukaba ari umuhanda kandi mugari bigaragara ko wanyuzemo utunyabiziga duto duto tugiye dutandukanye kuko twishushanyije amapine yatwo mu nzira.

Umuhanda ni umuhanda wi'igitaka uca ahantu hagati y'amazu ukaba ukikijwe n'ibyavuyezwe ku mpande z'imihanda hafi y'ibipangu, ukaba kandi hafi yanjye harimo uruhurura ariko kandi hakaba harimo umumotari utwaye moto wambaye imyenda yumukara ndetse n'ishati y'umweru akaba yambaye ikasike y'ubururu.

Umuhanda, ni umuhanda w'amabuye uca ahantu mu karitsiye imbere y'amazu, amazu asize irangi ry'icyatsi kibisi cyane cyane, uyu muhanda ukaba urimo umugabo, umugabo utwaye moto wambaye kasike itukura ndetse akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikote ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo usa naho ushaje urimo utubara tw'umuhodo hagati harimo uruziga ndetse harimo imodoka.

Handa mu umuhanda wa kaburimbo uca ahantu mu ishyamba, ishyamba rinini kandi ryinshira ku misozi bikaba ariko bikikije cyangwa se uriho amatara ari kugamba uyuvanbutuwe n'turuhukow'umuhondo ucagaguye hagati ndetse n'imirongo y'umweru ku ruhande harimo igare umusore uri ku rugendo n'abanyamaguru ku mpande zombi.

Aha kuri iyi foto ndahabona umuhanda, hakaba hari muri uwo muhanda kuko harimo igicucucucu cy'umuntu, ndetse nkaba mbonamo n'igicucucucu k'igiti.

Uyu muhanda ni umuhanda w'igitaka, ukaba uri ahantu mu ikaritsiye, ukaba ari umuhanda urimo amapine atandukanye yagiye anyuramo yaba aya moto, imodoka ndetse n'amagare

Umuhanda ni umuhangahanda wa kaburimbo haririmo umurongo wumuhondo udacagaguye, hakaba harimo umukarani wikoreye amakarito abiri yanditseho ngo Fanta akaba yambaye imyenda yu'ubururu ndetse n'inkweto z'ubururu uyu muhanda kandi ukaba uca hafi y'inzu z'ubucuruzi.

Uyu muhanda, ni mu muhanda wa kaburimbo, uca ahantu mu misozi ukikijwe n'imikindo n'ibiti ndetse n'amatara ku muhanda n'amafoto, hakaba harimo umugabo uri kugenda ku ruhande asunika igare, igare riremereye cyane ry'imizigo, igifuka ndetse n'igikapu ku ruhande, akaba.

Uyu muhanda, ni umuhanda wa kaburimbo ku bice bibiri, harimo ikizamuka umuto bw'moka ariko kandi ukajya mu bice bibiri ku mpande zombi ibice by'abanyamaguru, hanyuma ukaba ufitemo n'akajaride gacamo hagati, uyu muhanda ukaba uca ahantu imbere y'amazu y'ubucuruzi ariko kandi ukaba ufite uturongo twinshi dufite amabara y'umweru.